Umudamu n'umugabo bateruye abana, bombi bose bari guseka, umudamu ufite imisatsi y'umukara, umwana wo ku ruhande yambaye agapira k'umweru, uwo hirya afite ibisuko birebire by'umukara.

Abadamu babiri bahagaze bafashe sheke, uwo hino ari guseka yambaye amalinete, umupira urimo umukara n'umweru, yambaye isaha ku kaboko, uwo hirya yambaye umupira w'ubururu, afite purante, isaha ku kaboko, impeta ku rutoki, agakomo k'umweru ku kaboko...

Abakobwa babiri n'abasore hagati yambaye ishati y'umweru, ikote ry'umukara, karuvati ya shokora n'umweru n'ipantaro y'umukara, umukobwa wa ruguru afite urupapuro mu ntoki, yambaye ikanzu y'umukara.

Iduka harimo umudamu uhagaze, afite amafaranga mu ntoki, ari kureba imbere, yambaye ikanzu harimo ubururu, umutuku, umuhondo, imbere ye hari indobo, umunzani, ibikombe...

Inkweto zifite amabara: umukara, ubururu, umuhondo, icyatsi, harimo: Adidas, Puma, Nike, zihagaze ku twuma, akabaho k'umuhondo, imbere ya sikirini ni umukara.

Imipira y'umweru, umukara, orange. Ibipupe bimwe pemwe twita Sofiya, yambaye ikanzu y'umukara, yambaye ikote rya orange, iyindi yo hejuru yambaye ishati y'umukara, hejuru hari amatara y'umweru n'umukara.

Abadamu babiri bahagaze umugabo umwe bafite urufunguzo mu ntoki rw'icyapa impande y'imodoka y'umweru harimo n'umukara bafite akamvirope mu ntoki bateze ibitambaro bambaye amashapuure mu ijosi.

Abagabo babiri bahagaze bombi bafashe ku cyapa cy'urufunguzo uwo hirya yambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara inkweto z'umweru uwo hino yambaye ingofero y'umukara, amarinete, ishati y'ubururu umukandara w'umukara afite terefone mu ntoki n'ak'amverope n'urufunguzo.

Umugabo wicaye, ari kuri laputopu, afite suri mu ntoki, urupapuro, yambaye ikoti ry'umukara, hariho n'akarongo k'umweru, ishati ya buresiyeri, karuvati y'umukara, isaha ku kaboko, iruhande rwe...

Abasore babiri bicaye n'umukobwa umwe bafite amata mu ijage, mu birahuri bari kunywa, umukobwa wo hino yambaye ishati irimo uturongo tw'umutuku, umweru, ubururu, ipantaro y'umukara,,,

Iduka ririmo amazi yo kunywa Inyange, Niri, amata, agakarito k'amazi, indobo ku kabati irimo amandazi, ibirahure, amatasi, isahani, ingofero.

Abana babiri bahagaze bari kumwe n'umusore umwe ufiteamverope mu ntoki, imbere yabo hari akajerekani karimo amata, hari umukobwa uri kubareba, inyuma babona ibicupa bya cp iruhande rwa hen hager kandihan yumweru ari hagatitwari kuubururu

Imeza, akaboko gafashe igikombe cy'umweru harimo amata, irindazi, keke, isahani, ifoke, ikiyiko, imbere hari umuntu wambaye ipantaro y'umuhondo, umukara, afite injerekani y'umweru, iruhande rwe hari ibara ry'ubururu.

Icyapa gifite amabara atatu ubururu, umuhondo, umweru resebusiyo, umukara, umweru, tereviyo umukara, igikuta cyu'umutuku kamera umukara n'umweru, parafo iriho amatara y'umweru igikuta cy'umuhondo.

Abagabo b'abanyamahanga bahagaze batandatu, uw'inyuma yambaye bage y'umukara yambaye agapira k'ubururu, undi yambaye agapira k'ubururu, bwerurutse, imbere wambaye agapira k'umweru, kuruhande k'umuhondo ikabutura y'umukara.

Akazu karimo amabara atandukanye y'ibyapa, umukara, orange, icyatsi cyerurutse, umweru, iroza, ubururu, umuhondo, imbere hari intebe hanze zambitse imyenda y'imyeru...

Umukobwa wicaye mu kazu, yambaye agapira k'amabara abiri, umukara, umweru, yambaye amarineti y'umukara, yafunze shinyo, ari guseka, inyuma ye hari amabara atandukanye, umutuku, umuhondo, umweru, ubururu.

Intebe zikozwe mu giti, hari n'ifariso yambaye ibitambaro bya shokora, imeza na yo ikozwe mu biti, harimo utubaho twinshi hejuru y'ikirahure hasi ni amakaro.

Mu muhanda harimo abamotari, abagenzi b'abanyamaguru, hirya hari intebe, matera, akabati, hino hari umusore wambaye imyenda y'umukara afite igikapu cya gitari mu ntoki, yegereye inzu y'umweru.

Jaride irimo ibiti, irimo utubingaro, harimo intebe, ameza, hino hari akantu kameze nka rompuwe, karimo umweru, hirya hari udutanda two kuruhukiraho...

Ameza ateguye muri sare ariho ibitambaro by'umweru shokora ibirahuri by'umweru, amafoke amakuto ikikijwe n'intebe enye, amatara y'umuhondo ekara imbere, resebusiyo ya shokora intebe za shokora.

Inzu yubakishijwe igikuti cy'amatafari, ifite ibara ry'ubururu bwerurutse, utugiriyaje hejuru, isakajwe amategura, imbere hari intebe, ivaze, indabo, iriho utubingalo.

Inzu y'umweru hino hari ipoto ihagaze ifite ikindi giti ku ruhande, hejuru hari insinga z'umukara hari urundi rutambitsemo hejuru, hasi hari imodoka ebyiri, hirya hari abasore babiri bari kugenda, hino hari undi mwana uhagaze ufite indobo mu ntoki...

Umukobwa wicaye, afite ibisuko by'umukara, yambaye umupira w'umweru, yicaye mu ntebe y'umukara, hejuru ye hari amatara y'umweru, hasi hari sima y'umutuku inyuma ya tereviziyo y'umukara, igikuta cy'umutuku hariho amafoto.

Abagabo babiri bari kugenda uwo hino ari gusohoka afite agasatsi gake ku mutwe yambaye amalinete, ishati y'amaboko maremare irimo umukara, umweru, ubururu, ipantalo y'umukara. afite impapuro z'umweru mu ntoki.

Abakobwa batanu bahagaze bambaye udupira tw'imbere dusa, imikenyero isa, imbere y'abo hari ivatiri y'umukara, iruhande rw'abo hari umugabo uhagaze yambara rakosite y'ubururu bwerurutse, amarinete, hirya gato hari umusekirite.

Uyu mugabo ari kureba hejuru yambaye ikote ry'ubururu, ishati y'umweru, akaboko ko hirya gafunze ingumi, ako hino gafite igipapuro cy'umweru mu ntoki, ku meza ye hari impapuro, mashini, itasi y'umweru.

Umukobwa uri gushyira ikarita muri banki, ari guseka, afite imisatsi miremire, yambaye amaherena, isaha, yambaye ikanzu y'icyatsi irimo umukandara w'umukara, afite ishakoshi ku rutugu y'umukara.

Uyu mugabo arahagaze afite iparato mu ntoki iriho itasi y'umweru iriho akapa k'umutuku, yambaye ishati y'ubururu irimo ibara ry'umukara, afite isa ku kaboko ari guseka inyuma ye hari umudamu wicaye uri kuri mashini.

Umusore n'umukobwa bifatanya, umukobwa ufite imisatsi miremire, akabano k'umweru mu mutwe, amaherena y'umweru, agashanete mu ijosi, ikanzu y'umweru, impeta ku rutoki, umusore yambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru.

Mu isoko harimo ibitoki, karoti, ibitunguru, intorya, inyanya, ishu, hejuru ku giti hamanitse icyapa cya MTN, hino hari umudamu wicaye afashe ku giti nyuma.

Mu isoko abadamu basutamye n'abagabo abandi bahagaze, harimo urusenda, imiteja, karoti, imyumbati, ibirayi, ibijumba, ibitunguru, pavuro.

Abagabo batatu bahagaze umwe yicaye ku ntebe, imbere hari imifuka y'imiceri umweru n'umuhondo, imbere yabo hanze hari umufuka uryamye hasi w'umutuku, ibitunguru, munsi yaho hari undi mufuka.

Mu isoko harimo abantu banhagaze harimo ibitoki, imineke, ibitunguru, karoti, amatike imyumbati, amashu, seleri, puwaro inyanya.

Mu isoko harimo imineke, inanasi, pome, amaronji, imyembe ,amapapayi ibinyomoro, amatunda umudamu uhagaze nkine imbere.

Umudamu uhagaze ateze igitambaro mu mutwe yambaye ilbaya imbere ye hari utubase tubiri akumweru n'icyatsi n'umukara agapfuka k'umweru eshashi yumukara isahani imbere ye, nk

Mu isoko harimo amapantaro, imipira, abantu bahagaze, harimo umusore wambaye ingofero ayirebesha inyuma, ishati y'ubururu, ipantaro ya kacyi, inkweto y'ubururu irimo n'akabara ka oranje n'umweru...

Ni isoko harimo amapapayi, imineke, abasore n'abadamu bahagaze abandi bicaye nyine hari umudamu wicaye afite umusatsi w'umukara yambaye amarinete, amaherena, urunigi mu ijosi.

Umudamu wicaye ari kwerekana igikapu, mu kaboko ke hari udukomo tw'umweru, imbere ye hari amashaza mu ibasi, hari imineke, ibishyimbo, inyanya, ubunyobwa.

Mu isoko harimo inyanya, indimu, ibitunguru by'umweru n'umutuku, uturongo two mu mashashi, mayoneze, vinegere, amavuta, kuruhande hari umusore uhagaze yambaye umupira w'umukara, ingofero y'umukara.

Isoko ririmo abadamu, abagabo, bamwe baricaye abandi barahagaze, ibitenge, amasakoshi udukoko, imitako yo mu nzu, amaherena, ibitambaro, umuhungu wicaye ari kuri terefone, yambaye umupira...

Mu isoko harimo ibitunguru, inyanya, karoti, pavuro, cocombure, hari umugabo uhagaze hirya yambaye ingofero y'icyatsi, n'ishati y'icyatsi, ipantaro y'icyatsi.

Iri soko hahagazemo abantu, harimo nibitenge, isakoshi, inigi, udukoko, imitako, heno hari uwunamye aragaragara mu gongo gusa, yambaye umupira wa rakosita wa oranje, hirya hari umukobwa uhagaze yambara ingofero y'umukara, umupira w'umukara, ipantaro y'umukara.

Abagabo batatu bahagaze, umwe ahagaze inyuma ya kompiyuta, ahetse ibaga y'umukara, yambaye udukomo tubiri, ak'umuhondo n'icyatsi n'ubururu, abandi babiri bahagaze imbere ya kompiyuta, bambaye imipira y'imihondo bombi, undi umwe yambaye amarinete.

Umuntu ufite terefone mu ntoki iri guso, imbere ni ubururu inyuma ni umukara. Yambaye agakapu k'umukara, agakomo ku kaboko, ipantaro y'ubururu, umupira w'umweru. Imbere ye hari undi muntu wicaye yambaye inkweto z'umukara.

Abagabo batatu bahagaze inyuma y'akazu k'umuhondo n'abadamu babiri, mo imbere harimo umukobwa umwe, afite ibisuko by'umukara, yambaye ishati y'umukara, inyuma umudamu wambaye agashati k'umweru, isakoshi ku kaboko, isaha.

Umugabo n'umugore bahagaze, umugore yambaye ikanzu irimo amabara umutuku, umukara, umweru afite umusatsi w'umukara, umugabo yambaye ishati y'umweru, ipantaro y'ubururu, umukandara w'umukara, yambaye isaha ku kaboko, inyuma yabo hari umukindo.

Umugore n'umugabo w'umunyamahanga bahagaze. Umugabo yambaye ishati y'umweru, isaha ku kaboko, umukandara w'umukara, ipantaro y'ubururu, inkweto z'umukara. Umudamu yambaye ikanzu irimo amabara y'umweru, umutuku, umukara inyuma yabo.

Umudamu n'umugabo bari mu nzu, umugabo yambaye ishati y'umweru, umukandara w'umukara ipantaro y'ubururu, umudamu ari imbere yambaye ikanzu irimo utubara: umweru, umukara, umutuku, mu ruhande rwabo hari imitako,,,

Inzu harimo amakaro, urugi rwa shokora rufunguye, utubati two hejuru tubiri tw'umukara, lavabo, hanze hari fondasiyo y'amabuye, harimo irangi rya shokora, idirishya rya shokora.

Inzu ndende y'umweru irimo ibirahure byinshi, hasi hari imodoka, amavaze harimo indabo, umuntu uhagaze ari kureba imbere, yambaye agapira ka shokora, ipantaro ya shokora, inkweto z'umukara.

Mu isoko harimo inkweto, ibikapu, umudamu n'umugabo bahagaze, umugabo yambaye ishati y'umweru y'amaboko magufi, ipantaro y'umukara inkweto z'umweru, umudamu yambaye agapira k'umukara...

Abadamu batatu bahagaze mu isoko, uwo hagati afite imisatsi y'umukara, isakoshi ku rutugu y'umukara yambaye ikanzu y'ubururu, uwo hirya yambaye agashati k'umweru n'umukara, ipantaro y'umukara.

Mu isoko harimo abantu benshi bahagaze hino hari umudamu uteze igitambaro cy'umukara yambaye ikanzu irimo akabara k'umuhondo, umweru, umukara afite igikapu cy'umukara mu ntoki yambaye ipantaro y'umukara inkweto z'umukara,....

Umukobwa ari kugenda ahaha, ahahira mu kantu k'umukara, afite ibintu ari gushiramo, afite ibisuko by'umukara, yambaye umapira w'umutuku, ipantaro y'umukara, inkweto z'iroze harimo n'utubango tw'umweru.

Isoko harimo amatunda, imineke, amaronji, ibinyomoro, wotameroni, inanasi, avoka. Hari umuntu uhagaze imbere afite imisatsi y'imikara miremire.

Abasore babiri bahagaze n'umudamu umwe, muri supa maketi. Uwo kuruhande yambaye imyenda y'umukara, umudamu yambaye ikanzu yaruje borudo, inyuma yabo hari intebe, utumeza, imitako.

Iduka ririmo abantu bahagaze. harimo inkweto, amasakoshi, amakoti, harimo abirabura babiri, abazungu babiri, hejuru hari ibikapu bimanitse, hino hari amakoti ahamanitse.

Supa maketi irimo abasore bahaga n'abadamu, mashine imbere yabo, uri kubakira yambara rakosite ya oranje, inyuma ye hari intebe, hirya ye hari...

Abagabo n'abagore bicaye abandi bahagaze, ku meza yabo hariho ibitabo, impapuro, bari kurebamo, mu kabati harimo izindi mpapuro, uwo ku ruhande yambaye ikote ry'umukara, umupira w'umweru mo imbere.

Umugore n'umugabo, umugabo ari kwandika afite bike y' agafuniko k'umutuku. Umugabo yambaye ikote ry'umweru n'umukara n'umuhondo. Umugore yateze igitambaro cya rouge bordon, yambaye igitenge mu ijosi kiriho ibara ry'ubururu n'umuhondo, yambaye umupira mo imbere wa rouge bordon, inyuma hari akabati karimo impapuro n'ibitabo.

Abadamu babiri bicaye ku ntebe z'urubaho, ameza y'urubaho, uwo hirya yambaye itaburiya y'umweru mo imbere umupira w'icyatsi ari kwandika mu ikayi, afite bike mu ntoki, afite urupapuro, yambaye agakomo mu kuboko, uwo hino yambaye umupira wa oranje, afite agapapuro k'umuhondo mu ntoki.

Supermarket umusore yari afite akagare mu ntoki k'umweru n'umukara, yambaye umupira w'umukara, isaha, ipantaro y'umukara, inyuma ye hari undi wari wambaye ishati y'umukara, afite kamera mu ijosi ari kumufotora, iruhande rwe hari hari amafanta, amaji...

Supermarketi harimo umukobwa uri kuyipanga, yambaye agashashi mu mutwe, umupira w'icyatsi, ipantaro y'ubururu, harimo pome, karoti, pavuro, tangawizi

Supamaketi harimo umukobwa uri guhereza imbuto umukiriya, asutse ibintu by'umukara, yambaye amaherena, rakosite y'umutuku irimo n'akarongo k'umweru, itaburiya ya shokora, hirya ku ruhande hari amvilope ebyiri ziteretse.

Simba harimo abantu bahagaze, hari umugabo uhagaze mu muryango wo hepfo, yambaye umupira w'umukara ipantaro y'umweru, yambaye agakomo ku kuboko, uwo hirya ye imbere yambaye umupira wa oranje...

Supa maketi harimo abantu babiri, umudamu wunamye, umugabo uhagaze, nta musatsi afite, afite ubwanwa bw'umweru, yambaye imyenda yubururu, afite agacupa mu ntoki, yambaye sandari z'umukara, ari kureba hasi.

Isoko harimo amaronji, imineke, inyanya, inanasi, umusore uhagaze iruhande rw'amaronji, ufite umusatsi muke ku mutwe, yambaye umupira w'umweru urimo n'uturongo tw'umutuku.